Umutaka wa Airtel, uri mu mabara y'umutuku wanditseho amagambo y'umweru. Imbere yabo hari abagabo batatu, bambaye amajire ndetse n'uwambaye umupira, byose ni umutuku.

Umugabo w'umuzungu afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye agapfukamunwa ndetse n'ijire ya Airtel.

Akazu gato ka MTN gasizwe irangi ry'umuhondo cyanditswemo amagambo ari mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, gashushanyijeho kandi amatelefone atandukanye, hirya yako hari imbuga nini yubakishijwe amapave iparitsemo ikinyabiziga.

Umugabo wambaye ijire iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ishati iri mu ibara ry'umweru n'uturongo dutandukanye, inyuma ye hari imbuga nini yubakishijwe amapave iparitsemo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo ibiri mu ibara ry'umweru, hari kandi umumotari wicaye kuri moto wambaye ijire irimo ibara ry'umutuku.

Ikinyabiziga gishya cya moto giparitse kiri mu ibara ry'umutuku cyanditsweho amagambo y'umweru agaragaza Airtel, imbere yacyo hari umugabo wunamye wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara ari gukora kuri moto.

Akazu gato ka MTN kariho ibirango bitandukanye higanjemo ibya Airtel na Tigo, imbere yako hari umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'ikoboyi, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru ndetse inyuma yabo hari icyapa kinini kigizwe n'ubuso bw'umweru kiriho ibirango bitandukanye higanjemo ibya Airtel na Tigo.

Ikibuga kigizwe n'ibyatsi kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze, harimo umutaka urimo ibara ry'umutuku wa Airtel, imbere yaho hari itsinda ry'abagabo, ndetse imbere yaho gato hari umusaza wambaye ikote wamanitse igikarito kirimo telefone kiri mu ibara ry'umutuku.

Akazu ka MTN kubakiye ahantu, karakorotiriye na sima, gatangirwamo serivisi zitandukanye z'umuyoboro wa MTN ni ahantu hatuje.

Umuhanda munini w'umukara, urimo umurongo uri mu ibara ry'umuhondo, hirya yawo hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave ndetse inyuma yako hari umutaka wa MTN, inyuma yawo hari inzu ikorerwamo ubucuruzi.

Akazu gato ka MTN, karimo intebe mo indani, gasizwe irangi ry'umuhondo ndetse kandiditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, kariho ibyapa bitandukanye higanjemo ibyapa bya MTN, biri mu ibara ry'umuhondo bishushanyijeho abantu.

Icyumba kinini kigizwe n'amadirishya manini kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu bateranye higanjemo abagabo, harimo umugore uri gucurira wambaye imyenda y'umukara, agapira ka mo imbere karimo ibara ry'umutuku, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikositimu, amarinete ndetse na conga z'umukara.

Icyumba kinini kirimo urumuri, giteraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo, abenshi muri bo bambaye imipira y'ubururu iriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Harimo umugore ufite ibisuko by'umukara, wambaye umupira w'umutuku ndetse afashe mikoro, ukuboko kwe gukoze ku dupaniye turi mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo.

Itente rigizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iry'umweru, ririmo umugore wambaye umupira w'ubururu, uriho ikirangantego cya repubulika y'uRwanda, imbere ye hari inanasi nyinshi ndetse n'umugabo ufite mikoro, wambaye ikoti ry'umukara kandi inyuma ye hari abantu benshi, higanjemo abambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye ahantu hamwe, hari umugabo uhagaze imbere yabo, afite mikoro yambaye ikote ndetse n'ipantaro n'inkweto by'umukara, arimo arabaganiriza.

Itente rigizwe n'amabara atandukanye, higanjemo ry'icyatsi, ririmo umugabo w'umwirabura, ufite mikoro, wambaye agapira karimo ibara ry'ubururu ndetse kariho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, imbere ye hari agakoresho gakozwe mu mbahoho.

Inzu nini ifite amakoasitara ndetse igizwe n'amadirishya manini, imbere yayo ahagaze itsinda ry'abantu, higanjemo abagore, umwe muri bo yiteze igitambaro mu mutwe, yambaye agapira k'uburu kandi akenyera igitenge.

Imbaga nyamwinshi bicaye ahantu hamwe, harimo amadaso wambaye impuzankano y'icyatsi, barimo baraganira kuri serivisi zo kwizigama.

Ahantu hatunganyirizwa umusaruro ukomoka ku bihingwa hari ibikoresho bitandukanye higanjemo amabase ari mu ibara ry'ubururu, imbere gato hari umugore wunamye ukenyeye igitenge ndetse wambaye umupira w'imbeho uri mu ibara ry'ubururu, imbere ye gato hahagaze umwana.

Igihingwa k'ibigori kirambitse hasi, kirimo kiranikwa kugira ngo cyume maze gihunikwe, ni byiza kwanika ibigori ibikuma ndetse tukanabisarura byeze.

Imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo itandukanye, iri mu ibara ry'ubururu ndetse irimo imifuka igeretse iri mu ibara ry'umweru, inyuma yayo hari abagabo b'abakarani bambaye impuzankano igizwe n'amataburiya, umwe muri bo yambaye itaburiya ndetse yikoreye umufuka uri mu ibara ry'umweru.

Inzu nini icururizwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, irimo ibikoresho bitandukanye, higanjemo intebe ndetse n'ameza, irimo kandi urumuri. Intebe imwe muri zo isizwe irangi, ndetse iri mu ibara ry'umweru. Imbere yayo hari ameza ariho amasahani atandukanye, ndetse n'agatara kamurika.

Muri butike ahatangirwa serivisi zitandukanye harimo umubyeyi wunamye wambaye ijipo y'umutuku, inyuma ye hari amakesi arimo inzoga ndetse muri iyi butike harimo ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye higanjemo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, harimo kontwari irimo inzoga hejuru yayo hari indobo, hirya gato hari igikoresho gikozwe mu mbaho kirimo amaji atandukanye higanjemo ay'inyange, hasi yayo hari akajekane kari mu ibabura ry'umuhondo ndetse gafite umufuniko uri mu ibara ry'umutuku.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho bitandukanye, kirimo umuma w'umwirabura wambaye imyenda igizwe n'ibara ry'umweru, ndetse ari guseka, haruguru ye hari ibitenge bimanitse higanjemo ibiri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Isoko imbuga yayo hari amapave arambitseho ibicuruzwa bitandukanye, iruhande rwayo hari igare rirambitse bigaraga ko ari iry'umucuruzi.

Mu nzu y'ubucuruzi ikunda kwitwa butike harimo udukoresho dutandukanye ndetse n'ibiribwa harimo mayoneze, saradine, icyayi ndetse n'ibindi.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, ririmo amacupa menshi y'amavuta ari mu mabara atandukanye higanjemo ubururu, umutuku ndetse hejuru yayo hari imibavu myinshi iri mu mabara atandukanye yiganjemo umukara ndetse n'ubururu.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye risizwe irangi ry'umuhondo ndetse ririmo ko ntwari iriho igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu, inyuma yayo hari umugore wambaye umupira urimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, inyuma ye hari etajeri ikozwe mu mbaho irimo amakesi arimo amavide atandukanye.

Akayira k'abanyamaguru kubakishejwe amapave karimo umwana uvuye kwiga wambaye ipantaro mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ikanzu iri mu ibara ry'umuhondo, hirya ye hari umugore w'umuyisilamu wicaye imbere y'iduka ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibyo kurya.

Urusengero runini cyane rwubakishijwe amatafari ahiye ruriho ikimenyetso cy'umusaraba ndetse hirya gato hari ikigega kifashishwa mu kubika amazi kiri mu ibara ry'umukara, imbere yacyo hari esikariye nyinshi ndetse imbere hejuru hari urutsinga ruri mu ibara ry'umukara rwifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi.

Urusengero runini rurimo urumuri rusizwe irangi ry'umuhondo ndetse rurimo amakaro, rurimo intebe nini zikozwe mu mbaho zifite imisego iri mu ibara ry'umukara, gusenga ni byiza kuko bituma tugira umutima mwiza, bityo tukegera Imana ndetse tukabasha kubana neza n'abantu.

Icyumba cy'urusengero, gisizwe irangi ry'umweru, kiri mu rumuri, ndetse kicawemo n'imbaga nyamwinshi, higanjemo abagore. Harimo umubyeyi witeze igitambaro kirimo ibara ry'ubururu mu mutwe, ndetse wambaye igitenge kigizwe n'amabara atandukanye. Inyuma ye yicaye umugore wambaye ikanzu ndetse ufite imisatsi ya yumukara.

Ikibuga kinini kigizwe n'ubutaka kirimo emeza ikozwe mu mbahoho iriho igitambaro kiri mu ibara ry'umweru ndetse kiriho ibikoresho bitandukanye, hariho umusaraba ukozwe mu mbaho ndetse inyuma yabyo hari abagabo benshi higanjemo abambaye amakanzu ari mu ibara ry'umweru.

Inzu nini isengerwamo, isize irangi ry'umuhondo ndetse irimo igishushanyo cy'umusaraba gikozwe mu mbaho, imbere yacyo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze, higanjemo abambaye impuzankano y'abapadiri, igizwe n'amakanzu y'imyeru, imbere yabo hahagaze abantu batandukanye, higanjemo abagore.

Urusengero ruriho umusaraba ndetse rwubakishijwe amatafari ahiye, imbere yarwo hari insina n'itsinda ry'abantu higanjemo abana, imbere hari umugabo wambaye karuvati, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro, hirya gato hari umugabo wambaye ikositimu iri mu ibara ry'umukara.

Icyumba kinini cyane, biragaragara ko kiberamo ibirori, ibikorwa bitandukanye bihuriramo abantu benshi, ni muri hotel, aha iki gikodeshwa amafaranga atari make.

Icyumba gikorerwamo'inama kinini gisizwe irangi ry'umuhondo, ndetse kirimo urumuri kicawemo n'abagabo batandukanye, harimo umuzungu wambaye amarinete, ikoti rya kositimu ndetse n'ishati y'umweru, imbere ye hari imeza nini iriho ibikoresho bitandukanye.

Muri hoteli haba hari serivisi zitandukanye ndetse n'umuteguro usa neza, aha harimo udusahane n'udufoke n'utuyiko ndetse n'udupapuro tw'isuku.

Icyumba cyiza kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo igitanda gikozwe mU mbaho kiriho amashuka ari mo ibara ry'umweru ndetse n'imisego y'umweru, hirya gato hari agakoresho gakozwe mu mbaho kifashishwa mu kubikwaho ibintu bitandukanye.

Icyumba cya hotel gisigaze irangi ry'umuhondo, kirimo rumuri ndetse kirimo ibikoresho bitandukanye, kirimo igitanda gikozwemo mu mbaho kiriho amatola irimo imirongo y'umweru, ndetse hejuru yacyo hari supaninet iri mu ibara ry'umweru, ku ruhande gato hari agatebe kamwe ndetse n'akameza gato.

Icyumba cyiza, gisizweze irangi ry'umweru, kimanitsemo igishushanyo, hasi yacyo hashashie imikeka ndetse iriho igitanda cyiza, kigizwe n'amashuka ari mu iba ry'umweru, inyuma yacyo hari amatara atandukanye, yifashishwa mu kumurika.

Inzu ifite icyumba kiza kirimo utubati, aho kubika ibintu ndetse n'ibindi, ni muri hoteli, hari urumuri rwiza rusa neza.

Icyumba cyo muri hoteli kirimo inzitiramibu, iruhande rwacyo hari intebe n'akameza ndetse n'idirishya n'ikirahuri hari n'amarido y'umukara.

Muri hoteri ni hamwe hacururizwa ibiribwa biteye imbere biryoshye kandi bitandukanye. Iyi ni inkoko ihiye barimo barayisiga ibirungo.

Umuzungu wambaye marinete, umupira w'umutuku, inyuma ye hari imeza iriho ibiryo bitandukanye ndetse n'ibinyobwa, hirya gato hari umuzungu w'umugore wambaye amarinete wicaye, kuruhande gato hari umugabo w'umwirabura, inyuma yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru.

Muri hoteli cyangwa se mu mahoteli n'amamoteri, hatangirwamo serivisi zijyanye n'ibyo kurya, aho haba harimo ibiribwa bitandukanye birimo amarushe ndetse n'ibikoresho byifashishwa barura ibyo biryo.

Inzu nziza ya hoteli yubatswe igeretse ndetse ifite amadirishya menshi, ifite ibirahuri biri mu ibara ry'umukara, iruhande rwayo hari ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo ibifite ibara ry'umweru ndetse inyuma yabyo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi bitoshye.

Ahantu hateraniye abantu benshi, biragaragara ko ari muri hoteli. Hari inama yabereyemo, iri kuvuga ku ngingo zitandukanye.

Agatebe gakozwe mu mbaho imbere yako hari imashini idoda, imbere yayo hari imbuga nini irimo abana umwe muri bo yambaye bodaboda ndetse n'ikabutura iri mu ibara ry'umukara, hirya yabo hari inzu nyinshi zikorerwamo ubucuruzi.

Imbuga nini irimo utubuye duto imbere yayo hari imiryango myinshi icururizwamo ibikoresho bitandukanye kandi isakaye ndetse iriho ibyapa higanjemo ibifite ubuso bw'umweru byanditswemo amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye hari moto iparitse, imbere yayo hari umugabo w'umusaza wambaye ishati, ingofero, hirya ye gato hari umugabo uri gusunika igare rirho igitoki, imbere ye hari umugore uri kugurisha ibitoki wambaye ikote riri mu ibara ry'umutuku.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye ririmo umukecuru witeze igitambaro mu mutwe wambaye umupira w'umuhondo, imbere ye hari intara iriho ibishyimbo ndetse imbere yayo hari umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro ya kaki, inyuma ye hari umugore wambaye igitenge ndetse imbere ye hari akana kambaye agapantaro kari mu ibara ry'umukara.

Umutaka munini wa MTN uri mu ibara ry'umuhondo, munsi yawo hari imeza ikozwe mu mbaho iriho agacupa karimo ibara ry'ubururu, hirya gato hari ibijerekani birimo ibara ry'umuhondo, imbere hahagaze umugabo wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Igikoresho gikozwemo mbaho, kiriho ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo ibyo kurya, hari agafuka k'umuceri, kagizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iy'ubururu, hirya gato hari umufuka w'umuceri, urimo igikombe, imbere gato hari amacupa atandukanye.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, hari umumotari uparitse wambaye kasike y'umutuku, inyuma ye hari ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara imizigo kiri mu ibara ry'icyatsi, iruhande gato harimo y'umukara ndetse n'abamama bahagaze bari kugura ibintu bitandukanye.

Umugabo wambaye ipantaro y'icyatsi ndetse n'udukweto tw'umweru, yambaye agapira k'ubudodo karimo amabara y'umutuku n'umweru, avuye mu isoko ahetse igikapu biragaragara ko avuye guhaha.

Ahantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, hari umuhanda w'umukara urimo imodoka, hiryawo hari umukobwa wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'ikoboyi hirya ye gato hari umwana uhetse igikapu wambaye agapira karimo ibara ry'umukara.

Umuhanda mugari uvurirwamo n'ibinyabiziga bitandukanye hari abantu bari ku mpande ndetse serivise ziratangwa, hari n'imitaka ya MTN ndetse n'amatara ahagaze ku ruhande.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, ririmo imbaga nyamwinshi, higanjemo abaguzi ndetse n'abagurisha, harimo umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara, aricaye, imbere ye hari umukobwa wikore akabase wambaye ijipo iririmo ibara ry'umutuku.

Inzu nini icururizwamo ibyo kurya. Isizwe amarangi atandukanye, higanjemo iry'umuhondo ndetse imanitsemo amatara atandukanye amurika. Irimo umusore wambaye ijire iri mu ibara ry'umutuku ndetse iruhande rwe hari intebe nyinshi zikozwe mu mbaho.

Icyumba cyiza, kirimo urumuri cyakirirwamo abantu, kirimo ibikoresho bitandukanye, higanjemo ameza n'intebe, harimo ameza ariho igitambaro, akikijwe n'intebe z'i ibara ry'umukara ndetse hirya gato hari inzu nziza isizwe irangi ry'umweru.

Resitora, ahafatirwa amafunguro arimo aya nijoro ndetse n'aya saa sita, ni hanini, hari intebe nyinshi zakira abakiriya benshi.

Umuhanda munini w'umukara urimo imirongo myinshi iri mu ibara ry'umweru, urimo kandi igare ritwawe n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara, inyuma ye hari moto itwawe n'umugabo wambaye kasike ndetse inyuma hari inzu zikorerwamo ubucuruzi ziganjemo izisizwe irangi ry'ubururu.

Umuhanda munini w'umukara urimo umurongo muremure urimo ibara ry'umuhondo ndetse urimo igare ritwawe n'umusore wambaye isengeri irimo ibara ry'umweru kandi yambaye ipantaro y'ikoboyi, inyuma ye hari abamotari benshi ndetse hari amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage.

Amagare menshi aparitse higanjemo ayifashishwa mu gutwara abagenzi ariho abasore batandukanye, umwe muri bo yambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku, imbere gato hari inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye higanjemo iziri mu ibara ry'umuhondo ndetse hari ipoto rinini ririho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage.

Umuhanda munini w'umukara, urimo imirongo iri mu ibara ry'umweru ndetse urimo moto itwawe n'umugabo wambaye ishati, ipantaro y'umweru ndetse kuruhande gato hari akayira k'abanyamaguru ku bakikijwe amapave. Karimo abagore babiri bari kugenda. Kuruhande rwabo hari indabo zikase neza ziri mu ibara ry'umuhondo.

Imodoka nziza itwawe n'umugore ufite ibisuko by'umukara, wambaye ekoteri z'umweru mu matwi, ndetse yambaye umukandara. Inyuma ye hari umugabo uri guseka, wambaye umupira w'umutuku urimo uturongo tw'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, kandi yambaye umukandara wo mu modoka.

Umuhanda munini w'umukara, urimo imirongo y'umweru, ndetse n'ikinyabiziga cya moto, gitwawe n'umugabo wambaye kasike. Kuruhande, hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave. Imbere gato hari icyapa cya mpandeshatu, gifite ubuso bw'umweru, ndetse n'ikimenyetso kiri mu ibara ry'umukara, ndetse imbere hari inzu nyinshi zikorerwamo ubucuruzi, ziganjemo izisizwe irangi ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara urimo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umugabo wambaye kasike iri mu ibara ry'umukara ndetse yambaye ipantaro y'umukara, inyuma ye hicaye umusore wambaye inkweto z'umweru ndetse na kasike iri mu ibara ry'umutuku.

Umuhanda munini w'umukara, urimo urujyaoza rw'ibinyabiziga, harimo moto iri mu ibara ry'umutuku, itwawe n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse ahetse umugabo ufite umufuka uri mu ibara ry'umweru, imbere ye hari imodoka ya Lava igizwe n'ibara ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara urimo imirongo y'umweru icagaguye ndetse n'ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umugabo wambaye kasike y'ubururu umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, hirya gato hari akayira k'abanyamaguru kubakisijwe amapave, imbere gato hari inzu z'ubucuruzi ziri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda munini w'umukara urimo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umugabo wambaye kasike iri mu ibara ry'ubururo ndetse yambaye ikoti rifite uturongogo tw'umweru, inyuma ye hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubika amata, inyuma ye cyane hari igiti ndetse n'inzu zikorerwamo ubucuruzi ziganjemo izisizwe irangi ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara urimo imirongo myinshi irimo ibara ry'umweru ndetse urimo moto itwawe n'umugabo wambaye umupira w'icyatsi ndetse kuruhande rwayo hariho gaze, inyuma gato hari inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye ziganjemo iziri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara urimo moto ebyiri imwe muri zo itwawe n'umugabo wambaye kasike y'ubururu, umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, ku ruhande gato hari ipoto ryifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage, ku ruhande hari inzu igeretse ndetse isizwe irangi ry'umuhondo.

Umuhanda munini w'umukara, urimo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umugabo wambaye kasike iri mu ibara ry'umukara ndetse yambaye ikote, inyuma ye hari umufuka uri mu ibara ry'umweru, hirya gato hari igiti kiri imbere y'inzu isizwe irangi ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara urimo umurongo muremure uri mu ibara ry'umuhondo ndetse urimo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umugabo wambaye kasike, iruhande rwacyo hari amapoto manini yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi.

Umusore wambaye ijire ndetse na kasike azanye moto, arimo arayihereza umukozi arimo arayihindurira batire.

Umugabo uhetse umugore we ku igare. Barimo baragenda bavuye mu murima guhinga. Igare ni kimwe mu gikoresho kifashishwa mu gukora ingendo zitandukanye.

Umuhanda munini wubakishijwe amabuye urimo moto ifite amabara y'umutuku n'umukara ndetse itwawe n'umusore wambaye kasike y'umutuku ndetse n'ikoti riri mu ibara ry'umukara, hirya gato hari umuyoboro w'amazi wubakishijwe amabuye, hirya gato hari inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Umuhanda munini w'umukara urimo ikinyabiziga cya moto kiri mu ibara ry'umutuku gitwawe n'umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi ndetse inyuma hicaye umusore wambaye umupira w'umukara wambaye kasike iri mu ibara ry'umutuku, hirya gato hari akayira k'abanyamaguru kubakikijwe amapave ndetse n'amapoto atandukanye yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage.